Abana b'inshuke bafatanye mu biganza bakoze uruziga, bari kumwe n'abantu babiri bakuru, bigaragara ko ari abamama mu rugo ahantu runaka, imbere y'inzu ifite umuryango n'idirishya bisa ubururu.

Abana b'inshuke bicaye hasi mu cyumba gisa n'aho ari ishuri mo hagati yabo hicaye umubyeyi usa n'aho ari umumama, bamwe mu bana bambaye udupira dufite amabara y'umutuku.

Abana b'inshuke bafatanye amaboko bakoze uruziga, mo hagati harimo umubyeyi w'umumama wambaye agapira gasa umweru, ndetse n'agatambaro mu mutwe.

Abana b'incuke, bicaye hasi, bakuyemo inkweto zabo, mo hagati yabo harimo, umugore umeze nk'umumama, wambaye isarubeti y'ubururu, ifite amagambo mu mugongo, yanditse mu ibara ry'umweru.

Abana b'inshuke bari mu cyumba gisa naho ari ishuri, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho ndetse n'ameza akozwe mu mbaho, imbere yabo bafite utuntu turiho inyuguti.

Abana b'incuke bari mu cyumba gisa naho ari ishuri, mo hagati yabo hari umudamu uhagaze umeze nk'umwarimu wambaye isarubeti y'umweru, mu mugongo harimo amagambo ari mu ibara ry'umukara ritagaragara neza, imbere ku gikuta hari ikibaho gisa umukara gishushanyijemo.

Icyumba kirimo abana benshi b'incuke, abahungu n'abakobwa, bamwe barimo bambaye imyenda isa ubururu bicaye hasi, imbere yaho ku gikuta, hari urubaho rusa umukara rusharamuyeho ingwa isa umweru.

Abana bari imbere y'inzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse bambaye impuzangano y'ishuri, amajipo ndetse n'amashati.

Intebe zikozwe mu mbaho ziri ahantu mu cyumba, bisa nkaho ari ishuri ku ruhande rwazo ku gikuta, hari ikibaho gifite ibara ry'umukara.

Umugore uri kumwe n'abana b'incuke imbere y'inzu imeze nk'aho ari ishuri, yubakishije amatafari ahiye, abana bambaye amakabutura ndetse n'inkweto zifunze bamwe n'amashati y'ubururu.

Abana b'abanyeshuri benshi, abahungu n'abakobwa bahagaze, ku ruzitiro bisa nk'aho ari urw'ikigo runaka, bambaye impuzangano y'ishuri, amajipo ndetse n'amashati, bose bambaye inkweto zifunguye.

igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye gifatanye n'icyapa gifite ibyuma by'umweru, ku cyapa hariho amagambo menshi yanditswe mu ibara ry'umukara, ubururu ndetse n'umutuku iruhande rwacyo hari abana batatu.

Abana b'inshuke bicaye ku ntebe mu cyumba gisa naho ari ishuri, abakobwa n'abahungu, abakobwa bambaye amashati ndetse n'amajipo afite ibara ry'ubururu.

Abana bari imbere y'inzu ifite amatafari ahiye, umwe muri bo afite ibasi ku mutwe ifite ibara ry'ubururu ndetse bambaye amakabutura n'amashati n'inkweto zifunguye.

Abana batatu bicaye ku ntebe imwe mu cyumba kimeze nkaho ari ishuri, imbere yabo hateretse mudasobwa imwe barimo bakoresha.

Abana babiri b'incuke bahagaze mu muryango bambaye amashati n'amakabutura, bafite udukapu mu mugongo umwe muri bo yambaye inkweto z'umuhondo.

Abana bahagaze imbere yigikuta gisa nkaho ari cyo mu ishuri, inyuma yabo haziritse imifuka ifite ibara ry'mweru ndetse yanditseho n'amagambo yenda gusa mu ibara ry'umukara ariko kijimye, igikuta gifite amatafari ahiye.

Abana batatu bicaye ku ntebe, mu cyumba kimeze nkaho ari ishuri, imbere yabo bafite mudasobwa, iteretse ku ntebe.

Igikuta cyubakishijwe n'amatafari ahiye, hariho ikibaho gifite ibara ry'umukara, kuri icyo kibaho handitseho amagambo mu ibara ry'umweru.

Icyumba gisa naho ari ishuri kirimo intebe n'abanyeshuri bane b'abahungu bambaye amakabutura n'inkweto zifunguye n'izindi zifunze, ku gikuta hariho ikibaho gisa umukara n'urugi ku kindi gikuta n'amadirishya y'ibirahure.

Abana bicaye mu cyumba bisa naho arimo ishuri bigira, umwana umwe ahagaze yambaye umupira ufite ibara ry'umukara ndetse n'ijipo ifite ibara ry'ubururu, arimo arasoma igitabo imbere ye hari umudamu umeze nk'umwarimu wambaye itaburiya y'umweru.

Abagabo n'abagore bahagaze mu mbuga hameze nko mu kigo cy'amashuri, inyuma yabo hari akazu kubakishijwe ibiti, mo imbere harimo imodoka, iruhande rwabo hari ubusitani burimo indabo zifite amabara asa n'icyatsi cyijimye.

Umurima urimo ibyatsi rifite ibara ry'icyatsi hubatsemo inzu ifite amagorofa abiri imbere ya bya byatsi.

Abagabo n'abana bari mu cyumba gisa n'aho ari ishuri, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho ndetse n'ameza akozwe mu mbaho imbere yabo hari mudasobwa.

Abana bameze nk'aho barimo kwiga kubaka amatafari ahiye, bambaye ibisarubeti bisa ubururu ndetse bamwe muri bo bambaye ingofero zifite ibara ry'umuhondo.

Abana barimo abahungu n'abakobwa, bari mupuzangano y'ishuri, bamwe bambaye amajipo ndetse n'amashati y'umweru, n'amasogisi y'umweru, n'inkweto zifunguye.

Abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bagaragara nkaho ari abanyeshuri, bambaye impuzangano y'ishuri, abahungu bambaye amashati y'umweru ndetse n'umukandara w'umukara n'ipantaro, bose bambaye inkweto zifunze.

Abantu bari mu cyumba gisa naho ari ishuri, imbere hari umwana wambaye umukandara w'umukara ndetse n'ishati isa umweru, imbere ye hari ameza afite amaguru y'icyuma ndetse n'urubaho, hari n'amakayi ateretse imbere.

Ahantu mu ishuri hari ikibaho cy'umukara cyanditseho amagambo agaragara nk'aho akoreshejwe ingwa isa umweru, hejuru yacyo gato hari urupapuro rusa n'umweru, rwanditseho amagambo runashushanyijeho ibintu bitari kugaragara neza.

Abana bari impande y'ubusitani buzengurutswe n'indabo zifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi mo hagati harimo ibyatsi bifite amabara y'icyatsi, abana bambaye amashati y'umweru ndetse n'amakabutura bari imbere y'ishuri.

Abana bicaye ku ntebe mu cyumba bisa n'aho ari ishuri, imbere y'aho ku meza hari mudasobwa nyinshi zifite amabara asa n'umukara.

Abana bambaye imipira y'ubururu ndetse ku josi hariho ibara ry'umweru n'amashati y'umweru, imbere hari umugabo wambaye amataratara, bisa naho ari ku ishuri ari umuyobozi wabo.

Urugo rwubakishije amatafari ahiye, rufatanye n'icyapa gifite icyuma cy'umukara ndetse ku cyapa handitseho amagambo menshi mu ibara ry'ubururu, iruhande rw'urugo hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibiti.

Umuhanda winjira mu gipangu impande zawo hari amatafari afite ibara ry'umweru n'ubururu, iruhande rw'uwo muhanda hari icyapa gifite ibyuma by'ubururu handitseho n'amagambo y'ubururu, igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Abantu benshi bagaragara nkaho ari abanyeshuri bavanze, abahungu n'abakobwa, bari mu kibuga bakiniramo umukino w'amaboko ufite ibyuma ku ruhande bisa ubururu n'ibibaho biri imbere bisa ubururu, bose bahagaze imbere ya kiliziya yubakishijwe amatafari ahiye.

Abahungu bari mu cyumba bisa naho ari ishuri bigiramo, bambaye amasarubeti afite ibara ry'ubururu, umwe muri bo yambaye ingofero ifite ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi bari mu muhanda, bambaye inkweto zifunze, amasogisi y'umweru arimo utubara tw'umukara, amakabutura y'umweru ndetse n'imipira y'umweru, bamwe bambaye imipira n'amakabutura y'umukara.

Abana b'abakobwa bambaye amashati y'umweru n'amakanzu y'ubururu, bari imbere y'urugo rwubakishije amatafari ahiye.

Icyumba kirimo intebe zifite amaguru y'ibyuma afite ibara ry'umukara, imbere ku gikuta hari ikibaho cyanditseho amagambo yandikishije ingwa mu ibara ry'umweru.

Abantu babiri harimo umuhungu ndetse n'undi ugaragara nk'umukobwa, bari imbere y'urugo rwubakishije amatafari ahiye ndetse imbere y'urugo hari ibiti n'ibyatsi bifite amababi afite ibara ry'icyatsi.

Umwana w'umukobwa wambaye ishati ndetse n'ijipo n'inkweto zifunguye n'umupira ufite ibara ry'umweru wijimye mu ntoki, uhagaze iruhande rw'inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibyuma ku madirishya n'ibirahure.

Abantu benshi bari hamwe bameze nk'abanyeshuri, bambaye amashati asa umweru, imbere yabo hari umuntu uhahagaze umeze nk'umukobwa wambaye agapira k'ubururu, inyuma kanditseho amagambo asa n'umweru, wambaye ipantaro n'inkweto zifunze zisa umweru.

Abantu barimo bagenda mu muhanda, umwe ari ku ipikipiki iruhande rwe hari igiti gifite amababi asa icyatsi ndetse hasi hari n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi.

Icyumba kirimo abana benshi bicaye ku ntebe, imbere yabo hari mudasobwa zifite ibara ry'umukara ndetse hariho n'akantu gato k'ibara ry'umweru.

Inzu yubakishije amatafari ahiye igaragara nk'aho ari ishuri, ifite amadirishya ndetse n'inzugi zifite ibara ry'ubururu no hejuru ku mabati hafite ibara ry'ubururu.

Umwana wambaye umupira ndetse n'ikabutura y'umukara n'inkweto zifunguye, uri hagati mu kibuga imbere y'amazu bisa naho ari ishuri ryubakishije amatafari ahiye.

Icyapa gifite ibara ry'umweru cyanditseho amagambo amwe ari mu ibara ry'ubururu, andi ari mu ibara ry'umukara, iruhande rwaho hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi.

Urukuta rw'amatafari ahiye, rufasheho icyapa cyanditseho amagambo menshi amwe ari mu ibara ry'ubururu, andi ari mu ibara ry'umukara, iruhande rwaho hari ubusitani bufite indabo zifite amabara yenda gusa n'umuhondo.

Abantu batatu barimo bagenda mu muhanda wegereye inzu ifite amagorofa atanu n'ibiti biri imbere yiyo nzu, bifite amababi asa icyatsi.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bari imbere y'inzu, inyuma yabo hari imodoka ebyiri n'ibiti bifite amashami ndetse n'amababi afite ibara ry'icyatsi.

Umugabo wambaye amataratara, ndetse n'ishati ifitemo amabara y'umweru n'umukara wijimye, wambaye ipantaro ndetse n'isaha ku kaboko, ufite isengeri mo imbere y'ishati, ifite ibara ry'umweru.

Abagabo babiri n'umugore umwe, bambaye impuzangano ifite ibara ry'umweru, imbere yabo hari uducupa duto dufite ibara risa umuhondo, turi mu dukarito na two dufite ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kimwe, harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, imbere yabo hari n'abandi bagabo n'abagore bicaye imbere y'ameza akozwe mu mbaho.

Abantu bameze nkaho bari mu kigo cy'amashuri, begeranye n'ubusitani burimo ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi n'amazu asakaje amabati afite ibara ry'umutuku.

Ameza ariho ibikoresho bitandukanye ndetse akozwe mu mbaho, afite amaguru asa mu ibara ry'umukara, ku meza hari amakaramu ndetse n'amakaye, amakaramu afite ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo intebe ebyiri n'ameza afite ibara ry'umukara n'irindi bara n'intebe iteretse imbere yayo meza, ku gikuta hari iyumvabona yanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo intebe nyinshi, gisa naho ari ishuri, ibikuta byaryo byubakishije amatafari ahiye mo imbere.

Ameza ateretse ahantu mu cyumba kirimo n'intebe, zimwe zisa icyatsi, izindi zisa ubururu, ayo meza afite amaguru y'umukara, andi afite amaguru y'umweru, n'utundi tuntu tw'umukara turi munsi.

Abagabo bari mu cyumba bicaye imbere ya za mudasobwa, iruhande rwabo hari indangururamajwi zifite ibara ry'umukara ndetse bo bambaye imipira ifite ibara ry'umweru, umwe mu ribo yambaye ingofero.

Icyumba kirimo intebe n'itara ririmo kwaka, imbere ku gikuta hari urubaho rumwe rufite ibara ry'umweru n'urundi rubaho byegeranye.

Umuhanda w'amabuye wegereye ubusitani bufite indabo zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, wegereye urukuta rw'amatafari ahiye ruzengurutse inzu.

Uducupa tw'ibirahure duteretse ahantu ku meza, turimo mo imbere ibintu bimeze nk'amazi, bifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'icyatsi cyijimye cyane.

Icyumba kirimo intebe bigaragara nk'aho ari ishuri, hicayemo umuntu ufite mudasobwa izengurutswe n'utubara tw'umukara, imbere ku gikuta hariho ikibaho gisa umweru.

Amatafari ahiye yegeranye n'urugi rukozwe mu mbaho, ku rugi hariho impapuro nyinshi zifite ibara ry'umweru, handikishije amagambo asa n'ibara ry'umukara wijimye.

Umuntu wicaye ku ntebe, wambaye ipantaro n'inkweto zisa umukara, imbere ye hari icyapa kiriho amagambo menshi ari mu ibara ry'ubururu ndetse no mu ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, akabati, ameza n'ibindi, akabati gakozwe mu mbaho ndetse n'ameza akozwe mu mbaho, amwe afite amaguru y'ibyuma asa umukara.

Icyumba kirimo intebe nyinshi ndetse n'ameza, ku gikuta hari urubaho, iruhande rwarwo hari akantu gafite ibara ry'umutuku ndetse hari n'ameza afite ibara ry'umweru.